Mu kabari harimo inzoga nziza cyane zikunze kwitwa amarikeri, ku bushobozi bwawe no ku byifuzo byawe urabona inzoga ushaka harimo ahantu heza ho kwicara hameze neza.

Inyama zitetse zumutse, ni inyama ziryohaha cyane, uri kuzirya, aba yumva nta zindi nyama yarya, zikunda kuba mu tubari, muri bare, no mu makwe menshi usanga bazitetse.

Bare ni ahantu bafatira icyo kurya no kunywa haba hari n' ibyo kurya ibyo kunywa bitandukanye, iyo ugezeyo baka icyo kunywa ushaka, ugatumiza n'icyo kurya ukeneye bakakiguhera ku gihe.

Inkoko yokeje neza, iherekejwe n'ibirayi byokejwe neza byasizwe ibirungo byabugenewe, uba usanga mu bubari no mu mahoteli ku bantu basohokeramo ikunzwe cyane.

Ifi yokeje neza ku cyokezo cyabugenewe n'umuriro wabugenewe, iraryoha cyane. Ikundwa n'abatari bake basohokera mu bubari butandukanye, n'amahoteli atandukanye.

Muri bale ni ahantu haba ibyo kunywa bitandukanye. Iyo ushaka kugira icyo ufata uragenda bakakwakirira mo imbere cyangwa ukajya kwicara mu tubingaro hanze. Uhitamo aho wicara bitewe n'aho ushaka.

Bare ni ahantu umuntu ajyagufatira icyo kunywa no kurya. Hafasha umuntu ushaka kuruhuka no gutembera kubona aho abikorera, ugerayo ukabona aho kwicara bakakubaza icyo bakwakiriza, ugatumiza ubundi ukishima.

Akabari kabamo inzoga. Umuntu ushaka kunywa inzoga ajyayo bakamuha inzoga akishyura amafaranga, cyagwa umuntu ufite siteresi na we ajya mu kabari akahava siteresi zashize.

Mu iduka hari ibikapu by'ubwoko bwose, hari ibyitwa ngo nta mwarimu unyuze aha, ibyitwa rondoni, hari na anvelope kado, hari ibyombo, hari n'utundi dukapu twiza two kuzindukana hari n'amalinete meza cyane.

Utuzu twa Eyateli n'utwa Emutiyene usanga abantu bakoreramo ibintu byinshi bitandukanye, hari igihe usanga umwajenti abikura kure Emutiyene no kuri Eyateli akaba akorana na banki yose nka Ekwiti na Popireri, bigatuma akora serivisi nyinshi akabona amafaranga menshi, kandi akorera ahantu hato atishyura amafaranga menshi.

Muri botike harimo inzoga z'ubwoko bwose bakunda kwita ibyuma, harimo konyagi, burakejenero n'izindi zitandukanye zikorerwa mu rwanda no hanze yarwo. Harimo borosada bakoresha bari kuborosa, harimo n'amakaramu.

Ibikoresho byifashishwa mu kwamamaza imyenda bakunda kwita maneke, byifashishwa n'umucuruzi ushaka kugaragaza ubwiza bw'umwenda we. Afata umwenda we w'igitsina gore cyangwa uw'igitsina gabo akawambika maneke, umuguzi yahagera akabona ukuntu yaba amerewe ariwe uwambaye.

Butike ifite ibikoresho bitandukanye harimo:ibijerekani, icuruza amafu y'ubwoko bwose, igacuruza ibinyampeke bitandukanye ku mafaranga make cyane.

Hano turanguza ibicuruzwa by'ubwoko bwose. Amavuta yo kwisiga, amasabune, imyunyu, imiceri, ibikoresho by'isuku n'ibindi bikoresho byose wakenera muri butike yawe birahari.

Inganda zikora amaprodagiti atandukanye nk'amasabune, zitanga akazi ku rubyiruko rwinshi, bigatuma igihugu cyacu kibona amafaranga anyuze mu misoro, bikanarinda igihugu mu kujya hanze kuzanayo ayo amaprotagiti bigatuma u Rwanda rwacu rutera imbere.

Hano hari iduka ricuruza ibikoresho by'ubwiza, harimo menshi zo gusuka imisatsi, hakabamo amawomo yo kumeshesha imyenda, hakabamo n'amavuta yo kwisiga.

Muri iyi botike hari imiti y'amatungo yose, wifashisha iyo itungo ryarwaye, cyangwa ushaka kurikingira. Hari n'udukoresho wifashisha mu gihe ushaka guha inkoko zawe amazi, bigatuma umusaruro wiyongera.

Hari inyama z'inkoko zitunganyijwe neza ku giciro kinogeye buri wese uzishaka wa watugana tukakwihera ku nyama z'inkoko ku giciro cyiza.

Katine ni ahantu bacururiza ibiryo byoroheje usanga bacuruza icyayi, umugati, amata, amandazi rimwe na rimwe usanga bafitemo fanta na ji.

Mu iduka nyenda myiza cyane. Hari amakanzu y'abakobwa cyangwa y'abagore meza cyane. Hari amakote y'abagabo n'ashati y'abagabo, buri wese arisanga. Nimuze mwigurire.

Kwa Ngoga fashoni shopu bagira imyenda myiza cyane, bita cyane cyane mu kwambika abagabo, habamo amapantaro, amakote, amakabutura, imipira, sandare z'abagabo, inkweto zifunze n'imikandara.

Muri shopu hari imyenda myiza y'abageni, iyo ushaka gukodesha umukenyero, uraza bakagukodesha, haba n'amakanzu meza y'abageni ku giciro cyiza, kinogeye buri wese.

Tubafitiye serivise zo kudekora kwambika abageni, kubakorera indabo dufite n'impeta nziza imodoka z'ubukwe udukeneye waduhamagara kuri iyo nimero iri hasi aho ngaho.

Muri butike habamo ibikoresho bya eregitoronike， habamo za terefone， hakabamo poshete za simatifone，iyo ushaka ufatisha indirimbo， ukagura memorikadi，ukigurira na furashi ku giciro cyiza.

Imbuto ziba nziza cyane ku mubiri w'umuntu. Imineke ya kamara iraryohaha cyane ifasha umubiri. Amaronji, amatunda, byose birinda indware umubiri wacu. Ni byiza ko buri muntu wese yazajya arya imbuto ukazifasha ku mubiri wacu birinda indwara.

Inganda ziba nziza cyane. Kuko zifasha igihugu mu kwihuta mu iterambere, zigatanga akazi ku bashomeri benshi batandukanye, zigafasha umucuruzi mutoya kubona ibyo acuruza, biturutse ku musaruro uruganda rwatunganyije.

Botike harimo ishu, harimo amakara, hari ibitunguru, harimo inkweto za bodaboda n'ibindi byinshi birahari ku giciro gito kandi kinogeye buri wese i karibu.

Mu isoko hari bote nziza cyane z'amabara yose, icyatsi n'umukara, hari amapantaro meza cyane ya mangaze, imipira ya manga ifite amakora, hari amasharupe meza y'abadamu, hari ibikapu byiza byo guheka mu mugongo, ni karibu ni karibu.

Resitora hari ubwoko bwinshi bw'ibiribwa. Harimo ibyo bakunda kwita piza, hakabamo icyayi, hakabamo imitobe, byose wihitiramo bitewe n'igiciro uko kingana.

Muri butike habamo umuceri bateka n'umunyu bashyira mu biryo, hakabamo n'amakayi abanyeshuri bajyana ku ishuri bakandikamo, hakabamo n'amabahasha bajyana mu bukwe bagashyiramo amafaranga yo guha abageni.

Ibyumba byo kuraramo byitwa nka roji cyangwa Guest House, ni ibyumba byifashishwa n'umuntu wakoze urugendo agatinda iyo yagiye, cyangwa se umuntu wabuze aho arara kubera ikibazo cy'imodoka, ajya muri icyo cyumba akishyura amafaranga akiryamira.

Utubare duciririritse cyane cyane two mu cyaro, dufasha abaturage b'icyaro kubona ahantu bahurira bakaganira, bagasoma agacupa bakungurana ibitekerezo kandi bakiteza imbere.

Mu isatere hari depo y'inzoga abacuruzi b'utubari baza kuranguriraho, hari umutaka wa emutiyene w'umuntu ushinzwe kubika no kubikura, no gutanga amayinite, hari n'abamotari bajyana abagenzi aho bashaka hose.

Etage ni inzu nini ihurizwa mo ibikorwa bitandukanye, usanga harimo za farumasi, ahantu abantu bashaka kugurira imiti, ugasanga harimo imiryango bita situdiyo, ahantu abantu bifotoreza bakanafatisha indirimbo, hariho n'aho usanga abantu bafatira amaguzanyo y'igihe gito.

Inyubako zicuruza imiti yica udukoko mu bihingwa, zifasha umuhinzi mu kubungabunga ibihingwa bye, kuko abona ahagurira imiti yica udukoko, akabona n'ifumbire y'inyongeramusaruro, bigatuma ibihingwa bye bizamuka neza, akiteza imbere.

Kabasha acuruza ibikoresho byinshi bitandukanye, habamo amavuta yo guteka aryoha cyane, habamo fanta za Kokakora, habamo za korogate tuboroshesha, habamo za Mayoneze bashyira ku migati, habamo n'imigati, acuruza ibintu byiza cyane.

Serivisi y'irembo ifite akamaro kanini mu gihugu cyacu, kuko ifasha umuturage mu kwishyura mituweli cyangwa kwishyura icyangombwa cy'ubutaka, ikanafasha umuturage kwishyura amazi n'izindi serivise zitandukanye adakoze urugendo runini cyane.

Amazu y'ubucuruzi adufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, afasha umukiriya kubona serivisi akeneye igihe cyose ayishakiye. Hari amazu bacururizamo intebe zo kwicaraho, hari n'amazu bakoreramo ibintu byo kubikura amafaranga kuri banki utiriwe ujya kuri banki.

Butike hari imyuko myiza cyane, hari n'ibindi bikoresho bitandukanye. Ukeneye kuyihahiraho wabagana bakaguha icyo ukeneye ku giciro gito, kandi kinogeye buri wese karibu.

Hano hari iduka ribamo kofi y'ubwoko bwose. Ukeneye kofi ujyana amafaranga, bakaguha kofi wifuza ku giciro cyiza kandi kikoroheye.

La Palume hoteli ni hoteli iba nziza cyane iherereye mu mujyi wa Musanze. Iyo ushaka kuruhuka cyanga kugira icyo ufata ujyayo, kuko bafite ibiti byiza cyane biguha akayaga keza, ugahumeka neza.

Muri botike hari ibikoresho bitandukanye bya eregitoroniki, hari amatelefone meza manini bakunda kwita taci, hari ama ekoteri meza cyane, hari kamera nziza kandi ku giciro kibereye buri wese wihahira.

Hari ba Rwiyemezamirimo biyemeje gufasha abantu bagiye mu mijyi bakabura aho barara, cyangwa abantu bashaka gukora inama babuze aho bazikorera barabafasha cyane kuko bubatse ahantu hagenewe ibyo byose.

Muri kenkayori tubafitiye ibikoresho by'amazi, amashanyarazi n'ubwubatsi. Tubafitiye amatiyo bakoresha mu mazi, hakabamo amatara meza cyane n' insinga zo kwesitaza, tubafitiye n'amasima meza cyane.

Inyubako nziza cyane, ifite imiryango ibiri ikorerwamo ibintu bitandukanye, umuryango ukorerwamo ibintu bya MTN, iyo wataye terefone ujyayo bakaguswapira simukadi yawe ugasubira ku murongo, hari undi muryango baranguzaga ibintu byose, ku giciro cyiza cyane.

Unguka banki idufasha mu kubona amafaranga yo gukoresha, nk'ibishoro cyane cyane urubyiruko, tukayakoresha ducuruza cyangwa tugahinga, bigatuma twiteza imbere nk'urubyiruko rw'igihugu.

Ubusitani bwo muri hoteri butuma abakiriya bumva bamerewe neza, bitewe n'umwuka mwiza uba muri ubwo busitani, bigatuma amafaranga ku gihugu yiyongera binyuze mu bukerarugendo.

Ubusitani bwa hoteri bukurura abakiriya baza muri hoteri, kuko bubarinda ubushyuhe bwinshi baje muri iyo hoteri, butuma haboneka umwuka mwiza abantu bahumeka.

Amasoko mato cyane cyane ayo ku mihanda afasha abaturage kubona aho bacuruza ibicuruzwa byabo mu buryo buboroheye , agafasha n'abahaha kubona aho bahahira ku buryo bworoshye, agafasha igihugu mu iterambere rirambye.

Kawunga yambare, kawunga iba nziza cyane iraryoha cyane, ugereranyije n'izindi kawunga zisanzwe, ikorerwa mu Bugande ikoherezwa mu Rwanda iraryoha cyane, kuwayiriye ntiyifuza kurya indi kawunga.

Hari amatisi meza y'ubwoko bwose, mu mabara yose, iyo uje kugura ugashima igitambaro cyawe ntibigombera kujya kudodesha ahandi, kuko hari abadozi babigize umwuga bakudodera neza ugataha wishimye.

Umusaruro watunganyijwe neza, ugomba kubikwa ahantu hashyushye hadahura n'ubukonje, kugira ngo imungu, cyangwa ubukonje bitawinjirira bigateza igihombo.

Muri iri soko hari imbabura nziza zihisha vuba ,hari amasafuriya yo gutekamo, hari ibyibo dutwereramo, hari indiga duhatisha ibirayi ,hari n'amabase tumeseramo imyenda.

Botike harimo amavuta meza cyane harimo ay'igikotoro, harimo n'ayamazi ayo gusiga mu musatsi, mu gikotoro tubafitiyemo topurayini, malayika, moviti na vazerine aya mazi tubafitiyemo amavuta meza cyane twitwa suzana.

Sharijeri ya oroginari ni sharijeri nziza cyane icaginga terefone ya sumatifone mu gihe gito cyane, bigatuma ishyiramo umuriro mwinshi mu gihe gito, tukifashisha terefone yacu turi kujya kuri yutube cyangwa kuri watsapu tukivuganira n'inshuti zacu.

Ibibuni byashizemo amavuta, tubikoresha tujya kuvoma, bikadufasha kubika neza ayo mazi twavomye, tukanabikoresha dushigishiramo imisururu, tukanabibikamo iyo misuru yacu, kugira ngo tubone uko tuyipima.

Isoko hari ibikoresho byo murugo bitandukanye, byiza cyane, hari imyuko dukoresha turi uguteka, hari amatekawe bidushyimo ibiryo yo mu ngano zitandukanye, hari amasuveseri duhanaguza amasahane tumaze kuyoza, hari ibikoresho byinshi bitandukanye.

Mu isoko hari ibiribwa byinshi bitandukanye. Hari ibitunguru dukoresha turi gukaranga ibiryo, hari magi dushyira mu biryo bikaryoha, hari onja dushyira mu isosi, cyane cyane y'inyama igatukura, hari tungurusumu dushyira mu biryo, hari amavuta y'igihwagari bita kirisitari aba meza cyane. Hari n'amakaroni meza cyane.

Isambusa ziryoha cyane, ziba zikoze mu nyama, iyo ugiye kugura ugasanga zakonje barazigushyuriza ukagenda zigishyushye ku giciro kinogeye buri muntu wese.

Uduhaza duto ni ikiribwa cyiza cyane kiribwa n'ingeri zose z'abantu. Ushobora kuduteka ku bishyimbo cyangwa ukaduteka uko ubisheka.

Imboga zidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuko zidufasha mu kwirinda indwara, kandi zigafasha umuhinzi mu kubona amafaranga, akaba yakemura utubazo twe twa buri munsi.

Mu isoko habamo ibicuruzwa bitandukanye byiganjemo imboga n'imbuto, habamo imyembe, amacunga, inyanya, karoti n'intogi kandi ntiwagira ikibazo cy'aho kubitwara kuko bacuruza n'udufuka two kubitwaramo.

Ducuruza amakariso, amasutiye, za mucikopa, kubantu b'ingeri zose, abato n'abakuze, ni igiciro cyiza cyane, ntabwo duhenda, ni karibu, ni karibu.

Butike irimo ifu nziza cyane yitwa Bino, ni uruvange rw'amafu bahurije hamwe. Iyi fu iraryoha cyane. Muri iyi butike harimo :shampo, kanta na za situruwaya.

Ibiraha ni ibiryo byiza cyane biryoha bifasha ubicuruza kubona amafaranga akiteza imbere, kandi bigatuma ukeneye kurya uturyo twihuse atubonera igihe bikamufasha gukora uturimo twe neza kuko atatinze mu byo guteka.

Isoko ry'ibiribwa harimo: ibitunguru, amashu, imboga n'imbuto, usangamo buri kimwe ushaka kandi ku giciro cyiza kikoroheye, habamo ibintu byinshi bitandukanye kandi ku giciro gito.

Gutembereza imbada n'imigati， bifasha ubikora mu kubona amafaranga mu buryo bwihuse， bigatuma nta muntu utaka inzara， kubera ko imbada n'imigati， biba biri ahantu henshi hatandukanye，kubera ko abatemberezi baba bahari mu buryo buhagije.

Hari ikusanyirizo ry'ibyuma bishaje, ibisafiriya, ibyuma bisanzwe, ibyuma by'amagare ,ibyuma bya moto, ibyuma by'imodoka, babyifashisha bari gukora ibindi byuma bishyashya.

Mu isoko tubafitiye ibitenge by'amoko yose, iyo uguze igitenge cyawe tukwereka abadozi badoda moderi zose zo mu bitenge, badodera ku giciro cyiza kandi kinogeye buri wese.

Mu isoko hari imifuka y'ubwoko bwose, imito n'miinini. Hari amajerekani, ukeneye umufuka wakoresha urimo gusarura imyaka yawe uraza ukagura ku giciro cyiza cyane kibereye buri munsi.

inkwavu ni amatungo magufi gorororerwaga mu rugo, gatangaga umusaruro mu gihe gito cane iyo yitaweho neza akarindwa imbeho nyinshi umworozi wago ntashobora guhura n'ubukene kuko gatanga umusaruro byihuse.